Abasore babiri bambaye udupfukamunwa, bateruye agasanduku mu ntoki zabo, bisa n'aho bagiye kukinjiza mu modoka iparitse ahangaha, ni imodoka yo mu bwoko bwa Toyota yanditseho amagambo agaragaza ko ari imodoka ya Minisiteri yita ku buzima mu Karere ka Nyagatare.

Abantu babiri bateruye umurwayi kuri burirankari, bikaba bisa naho ari abaganga, bose bambaye imyenda isa, bipfutse ahantu hose, barimo kwerekeza ku nyubako isa naho ari ivuriro. Bakaba bamutwaye kuri burankari iri mu mabara y'icyatsi, mu rwego rwo kugira ngo bamukorere ubutabazi bwihuse.

Abantu barimo gukaraba intoki mu rwego kugira ngo bagirire isuku intoki zabo kandi birinde indwara zandura zanduriye mu mwanda, ni byiza ko natwe twihatira kugirira isuku intoki zacu.

Abantu benshi bari ku murongo. Bisa naho hari igikorwa runaka bitabiriye. Bakaba bari ku murongo kugira ngo baze kubona uko bahabwa serivisi. Imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya gusa umukara. Uhagaze bisa naho ari mu bantu barimo gutanga serivisi hano.

Mudasobwa iteretse ku meza bisa naho hari umuyobozi uyikoresha, imbere ya mudasobwa hateretse intebe umuntu uyikoresha yicayeho, mudasobwa ni igenzi mubuzima cyane cyane ku bayobozi kubera yuko ibafasha kubika amakuru mugihe kirekire.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku rubaraza hakaba hari n'abandi bahagaze bisa naho ari kwa muganga, bakaba baje kwaka serivise zijyanye n'ubuvuzi, baricaye bategereje ko buri wese agenda ahamagarwa kugira ngo afashwe.

Abantu babiri bicaye barimo kuganira. Umwe akaba ari umukecuru, undi ari umukobwa bigaragara ko akiri muto. Umukobwa ukiri muto yambaye agapira k'umweru n' agapfukamunwa ndetse n'ijipo y'umukara, akaba afite bibiliya mu ntoki arimo gusomera umukecuru ijambo ry'Imana.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'uruganiriro hagati yabo hakaba hari ameza abatandukanya, buri wese yicaye mu ntebe nziza yegamirwa bikaba bigaragara ko higanjemo abagabo kuko harimo umugore umwe.

Abantu bicaye mu nyubako, hakaba hari n'undi uhagaze bisa naho yaje kubasaba serivisi, aba bantu bicaye bakaba bambaye amataburiya y'umweru, bisa naho ari abaganga, imbere yabo hari ameza ateretsemo ibikoresho bifashisha, hejuru yabo hamanitse umunzani upima ibiro.

Umubyeyi w'umumama wicaye imbere ya mudasobwa, iruhande ya mudasobwa hakaba hari imashini yifashishwa mu gufatanya impapuro izwi nka garafezi ndetse n'impapuro zitandukanye, akaba ari kureba muri mudasobwa, bisa n'aho hari ibintu arimo kuzuza.

Abantu batatu bicaye, umwe n'umugabo, abandi babiri ni abagore, buri mugore ateraye umwana, bisa n'aho bari kwa muganga bakaba baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ahantu bicaye inyuma yaho hari akabati karimo impapuro nyinshi zibitsemo amakuru y'abarwayi.

Abantu bateraniye imbere y'inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye ifite urubaraza imbere yayo, bakaba bicaye hari n'abandi bahagaze imbere bamwe muri bo bambaye amataburiya, hirya yabo hari umumama wicaye mu kagare kagenderwamo n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane amaguru, aba bantu bakaba bafite ingingo runaka bari kuganiraho.

Umuganga wambaye ga mu ntoki, akaba afashe mu ntoki ikiganza cy'umurwayi, afite akantu mu ntoki k'urushinge, bigaragara ko agiye kumupfumura ku rutoki, kugira ngo abone amaraso yo kumupima, bityo bimworohere kumufata ibizami maze amenye indwara arwaye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite icyuma imbere kitwa mayikorosikopi kifashishwa mu gusuzuma indwara, cyane cyane mu gihe barimo kureba udukoko dutoya tutaboneshwa amaso, akaba arimo guhengerezamo mu rwego kugira ngo amenye uko bimeze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'ubururu, akaba afite uducupa tubikwamo amaraso afatwa umurwayi mu gihe bagiye kumupima cyangwa se ngo bamufate ibizami kugira ngo bamenye ikibazo yaba afite mu maraso ye. Imbere yaho hakaba hari icyuma kifashishwa mu gupima izo ndwara zitandukanye.

Umuganga wicaye mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Imbere mu idirishya hakaba hari abantu bigaragara ko baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Hari umumama uhetse umwana, umuganga arimo kwandika amuhereza imiti.

Abaganga babiri bambaye imyenda isa, bakaba barimo kurebera mu byuma byifashishwa mu kureba utuntu dutoya abenshi bita mikorosikopi, ibi byuma bikaba byifashishwa cyane cyane mu gihe barimo gupima indwara zitaboneshwa amaso.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo gupima amaraso cyangwa se hari ibizamini umuganga yafashe umurwayi, akaba ari ibikoresho byifashishwa kwa muganga gusa, kuko ari ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi, biteretse ku meza yo kwa muganga.

Abantu bari mu cyumba cyo kwa muganga, hakaba hari abaryamye ku buriri, bisa naho ari abarwayi ndetse n'abandi bicaye bisa naho ari abarwaza. Hari ibikoresho byegereye ibitanda, abaganga bifashisha basuzuma abarwayi. Hejuru hagiye hari inzitiramibu, bifashisha mu kugira ngo birinde Malariya.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, hejuru hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda, handitseho amagambo ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, kikaba kigaragaza ko ari icyapa cy'ahantu ku mupaka, kikaba giteye ku nyubako itangirwamo izo serivise zo gufasha abantu kwambuka umupaka.

Abana bicaye mu ishuri bakaba barimo kurya, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, hagati muri bo hakaba hari umugabo wambaye ijiri iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'uturongo dutambitse tujya gusa n'ivu akaba yambariyemo umupira w'ubururu w'amaboko magufi, bikaba bisa naho ariwe urimo kubafasha kubona ibyo kurya.

Abantu batandukanye bari guturuka ku nyubako nini yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati y'ubururu, iruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ikigega gifata amazi.

Abantu batandukanye bahagaze hakaba hari umusore ufite indangururamajwi mu ntoki, hirya ye akaba hari undi musore ufite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara bisa naho uwo musore ufite insakazamajwi arimo gusoma ibyanditse ku cyapa.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, biteretse ku gitanda, ariho portemange, hariho agacupa kaba karimo umuti, hakaba hari uduti turiho ipamba, hakaba hari n'akandi gakarito.

Udupaki tw'ibinini twinshi cyane turunze ku meza, akaba ari imiti igiye iri mu mabara agiye atandukanye. Hari ibinini by'umuhondo, iby'umweru n'ubururu, hakaba hari ibya move, hakaba hari iby'umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amacupa ndetse n'ibikarito bitandukanye, byose akaba ari ibikoresho birimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, imiti ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera yuko iyo umuntu arwaye aba ari ngombwa ko ahabwa ibiti.

Imiti myinshi itandukanye iterutse muri etajeri, akaba ari imiti yifashishwa kwa muganga mu gihe barimo bavura indwara zitandukanye, bitewe n'ikibazo umurwayi waje abagana afite. Hari imiti iri mu dukarito, hakaba hari iri mu ducupa ndetse n'indi ifungiye mu bikarito binini.

Icyumba kirimo utubati twinshi duturutsemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo imiti y'amoko atandukanye, yaba iri mu makarito, iri mu macupa ndetse n'iri mu bindi bikoresho bitandukanye, bikaba biri mu tubati twiza turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru tubonerana.

Imodoka y'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe gukora iperereza ku byaha byakozwe, ikaba iparitse imbere y'inyubako y'ubucuruzi, hirya yaho hari umugabo urimo gutambuka bisa naho arimo kwiruka ahunga.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bambaye neza, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umumama wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ufite utuntu mu ntoki bisa naho ari umuyobozi urimo kubafasha mu bikorwa byabateranyirije aha ngaha.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, bakaba bafite icyapa imbere yabo, bisa naho barimo kwamamaza serivisi zitangwa n'Ikigo cy Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima. Inyuma yabo hari inyubako nziza cyane ,bahagaze ku rubaraza rwayo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko hari ikintu runaka barimo kuganiraho, bicaye imbere y'inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, abantu bicaye bicaye ku ntebe z'ubururu zigaragara neza cyane.

Abantu benshi bari mu muhanda bafite n'ikirango cya Polisi imbere hamwe n'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko hari igikorwa nyamukuru cyabahuje hanyuma bakaba barimo kukizihiza.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, karimo ibara ry'umukara ndetse n'irindi bara rijya gusa n'ivu, akaba yambaye na ekuteri mu ijosi, ahagaze imbere y'icyapa kigaragaza ibyo ahagarariye, akaba ahagaze iruhande rw'ahantu hari intebe z'umukara, bisa n'aho ari ibyicaro by'abayobozi bakuru.

Icupa ririmo umuti, rikaba ririmo umuti ukomoka ku muravumba, umuravumba akaba ari ikimera gakondo abantu bifashisha mu gihe bashaka kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, akaba ari icupa rifunze neza mu rwego rwo kugira ngo babungabunge umuti w'umuravumba.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho, ibi bikaba bikorwa mu rwego kugira ngo hatangwe serivise nziza kandi inoze. Kuri buri gitanda hagiye hariho inzitiramibu yifashishwa mu gihe k'ijoro kugira ngo buri murwayi yirinde kuba yarwara indwara ya Malariya.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, bigaragara ko ari aba bakora muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Harimo n'Abazungu hakaba harimo n'abandi bantu b'Abirabura.

Umubyeyi w'umumama uhetse umwana afite n'umwana wundi mu ntoki yafashe ukuboko, akaba arimo gusanganira ahantu hari inyubako isize amarangi y'ubururu bisa n'aho ari kwa muganga, akaba aje kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, iruhande rw'ahantu umubyeyi ari gutambuka hateye amateke.

Abaganga babiri bicaye imbere y'ameza hakaba hari n'umurwayi wicaye w'umumama, aba baganga bambaye amataburiya y'umweru umwe ni umugore undi ni umugabo, bose bafite impapuro mu ntoki bisa naho ari amafishi yo kwa muganga.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'inyubako, bose akaba ari abagabo. Bahagaze imbere y'inyubako ifite urubaraza, imbere y'inyubako hakaba hari icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu babiri umwe ni umuganga undi akaba ari umubyeyi bisa n'aho yaje gu gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi nko gukingiza umwana, umuganga arimo kumusobanurira uburyo serivisi ziribuze gutangwamo, imbere y'umuganga ku meza hateretse uducupa dusa naho ari utw'ibinini hino hakaba hari impapuro arimo kugenda yandikaho ndetse na telefone.

Abaganga benshi bari mu cyumba cyo kwa muganga bakaba bose bambaye impuzankano zisa bigaragara ko hari ikintu runaka barimo kuganiraho nyuma yo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ku meza hateretse ibikoresho bifashisha barimo gutanga serivisi.

Abantu batatu bicaye, bigaragara ko bicaye kwa muganga, bakaba baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Babiri ni abagore bateruye abana, hakaba hari n'umugabo.